Umuhungu wicaye mu ntebe afashe igikombe mu ntoki ze gisa umuhondo, yambaye umupira w'amaboko maremare usa icyatsi n'ipantalo y'umukara, mu ntoki ze afitemo igitabo ari gusoma, arirabura ndetse afite n'umusatsi n'ubwanwa.

Imisoro n'ingenzi ku gihugu cyacu kugira ngo dukomeze kubaka igihugu cyatubyaye, iyi ni inyemezabwishyu igaragaza imisoro wishyuye ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro aricyo rura, tujye twishyura imisoro hakiri kare kugira twirinde kuba twacibwa amande.

Urupapuro ruriho ibintu bitandukanye, byaba ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, uru rupapuro ruba rugaragaza ibintu ndetse n'igiciro cyabyo, hejuru Great hoteri Kiyovu, uru rupapuro ni urw'iyi hoteli yitwa Great Hoteli Kiyovu.

Abagabo babiri bahagaze bari gusuhuzanya bambaye imipira isa hejuru hanyuma hasi ubanza yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ukurikiyeho yambaye ipantaro y'ikoboyi isa ubururu inyuma yabo hari umutaka wa mtn.

Kwishyura dukoresheje ikoranabuhanga, urugero nka telefoni ndetse n'ibindi biturinda gusesagura amafaranga cyangwa se kuba twayakoresha ibintu tutateganyije, kimwe n'uko tuba twakwibwa, aha turi kuhabona akapa gato kanditseho momo peyi, ubu ni uburyo umuntu ashobora gukoresha yishyura serivisi zigiye zitandukanye.

Inzu ubona ko ari nziza rwose ifite ubusitani bwiza butoshye, iyi nzu ifite igisenge cyumukara. Inyuma hari akandi kazu gafite urugi rw'umutuku kubabakijwe amatafari ahiye hejuru yako kazu hari ikigega cy'umukara.

Inzu nziza, yubatswe mu buryo bugezweho, ni etaje, bafite ubusitani bwiza ndetse n'ibiti bitoshye, iyi nzu ikaba iherereye muri Kigali, ukaba ushobora kuba wayikodesha amafaranga agera ku gihumbi magana atanu y'amadorari y'Amerika, buri kwezi.

Igikoni cyiza gifite utubati duteye ku bikuta ndetse n'amakaro yometse ku bikuta, iyi nzu iri kugurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri muri Kigali.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ni etaje isize irangi ry'umweru, iheherereye kibagabaga ikaba igurishwa amadorari ibihumbi ijana na mirongo ine.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ni etage, ni ukuvuga iragera, iyi nzu ifite aho imodoka zihagarara hisanzuye, ikaba iherereye Kimironko, ikaba igurishwa.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ibikoresho byose, ifite igisenge gisa nk'icunga rihishije iyi nzu iherereye i kanombe, ifite aho imodoka ebyiri zishobora guhagarara zisanzuye.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ifite igipangu cy'umukara. Iyi nzu iteye amarangi y'umweru iherereye Kabeza, ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda ku kwezi.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza iri m'ibara ry'umuhondo hariho ifoto ya nyirayo ndetse'ibimuranga byose hariyo igihe yatangiwe ndetse n'igihe izarangirira.

Umukobwa uhagaze afite ibisuko birebire by'umukara, yambaye ikoti ry'ikoboyi ndetse n'akajipo kagufi k'ikoboyi n'inkweto z'umukara, inyuma ye hari amafirigo ndetse n'akandi kabati karimo ibyo kunywa bisembuye.